Umuntu wambaye ikintu cyumweru, yambaye n'ibintu kumazuru, yambaye na ga z'ubururu, ari gutera umuti igiti k'indimu kirimo imiteja mitoya.

Umuntu wambaye isarubeti y'umweru akaba ahetse ikintu gifite umufuniko w'ubururu n'icyatsi, akaba ari gutera umuti ibihingwa, harimo n'insinga n'ibiti bishinzemo.

Amacupa apfundikijwe n'imifuniko y'icyatsi, hakaba handikishijwe n'ijambo ry'umukara mu nyuguti nini. Hakaba harimo n'irindi bara ry'umuhondo n'icyatsi. Amacupa akaba ateretse ahantu ku meza.

Hari ubwoko bw'igihingwa cy'umuceri. Muri uwo muceri hari abantu batanu batandukanye. Aba bantu batanu bakaba bahetse icyuma, bakaba bari gutera umuti uwo muceri. Hirya y'uwo muceri hakaba hari ibiti bitandukanye biteye.

Umuntu wambaye ga y'umutuku ariko atari umutuku neza, akaba ari gucucira umurima w'inyanya. Inyanya zitari zera zifite imiteja myinshi, hakaba hari n'inyanya zifite uturabo tw'umuhondo.

Ibishyimbo bihinze ku myobo igiye itandukanye, harimo umuntu wambaye iponjo, ari gutera umuti ibyo bishyimbo, hirya ye ku ruhande hari inyubako ziri kugaragara n'ibiti bikiri bito.

Ni inyanya zihinze, izo nyanya zitangiye kuyanga, hari n'izazanye imbuto. Izo nyanya zikaba zishingiriye. Hakaba harimo umuntu ugiye uri kuzitera imiti kandi zikaba zihinze ku buso bunini.

Isahani irimo inyama zitandukanye, ikaba irimo isosi itukura, harimo urusenda rw'umutuku n'urusenda rw'umuhondo. Hakaba harimo n'ibindi birungo bigiye bitandukanye.

Ni ikiyaga hagati y'ikiyaga harimo ubutaka (ikirwa). Hafi y'ikiyaga hagiye hari imisozi igiye itandukanye mu mpande hose.

Amafi ane, atandukanye, arambitswe ku isahani y'umweru, amafi yo hagati akaba arimo ibara ry'umukara yari agiye gushirira, ayo hino akaba nta mabara y'umukara arimo.

Ubwato burimo imifuka y'umweru, hakaba harimo n'ibasi ya roza, hirya ye hari imbaho ebyiri zihagazeho n'abagabo batatu, undi w'inyuma arunamye, uwa mbere afite umurunga ufashe ku bwato, ari gukurura.

Indagara zikawushije nyinshi. Imbere yaho harimo ibirungo bitandukanye harimo igitunguru cya puwaro, hakaba hari n'indimu ikase inyuma ziri ku isahane y'umweru.

Abantu bari mu mazi menshi cyane bafite inshundura, bamwe bari kugenda bakurura babiri akaba aribo bari mu mazi cyane, abandi babiri bari ku nkengero z'amazi abandi bari kugenda bakurura, babiri bari ku ruhande rwo hirya barashungereye.

Ikiyaga kirimo utuntu tw'intebe twubatse dutandukanye, hakaba harimo amato asa ubururu. Hirya y'icyo kiyaga hari igihuru cyinshi gihari, gitandukanye.

Indagara zikabushije zitandukanye , nyinshi cyane , zisutse ahantu hari utubara tw'ubururu turimo n'utundi tw'umuhondo . Hejuru yaho hari agati kaharambitse kanini , hirya yaho hari n'utundi tubara tw'ubururu tutari kugaragara.

Amafi atatu ari ku ifuru, akaba agiye atandukanye, hejuru ya buri fi hagiye hakekeyeho utuntu tubiri tugiye dutandukanye, buri fi hagati y'ifi iri hagati, hari utuntu tubiri tw'utwuma tuharambitse.

Ikigorigori kinini, inyuma y'ibyo bigorigori hari igiti kinini, inyuma yacyo hari inzu isakaje ubururu, hakaba hari hirya yaho igiti kinini kigandaje.

Ni akarima k'igikoni karimo imboga zitandukanye, harimo idodo, hakabamo amateke, hafi y'aho hahinze ibitunguru, hakaba harimo isombe, hakaba harimo n'amatunda ya mugozi bashingiriye.

Ikibaya kirimo utwatsi tukiri dutoya cyane, inyuma yaho hakaba hari utundi twatsi turi gukura, inyuma y'utwo twatsi hari ibigori byeze, inyuma y'ibigori hari ibiti bigiye bitandukanye binini.

Insina eshatu zibanza za kanyanja, izindi ziri inyuma n'iza kamara, zikaba zihinze hafi n'urusasa, urwo rusasa rumwe rukaba rwaguye mu nsina, zikaba zicucitse zegeranye n'urusasa.

Ahantu hahinze dodo ifite uruyange, hirya ya dodo hakaba hari igiti k'indimu itarakura neza, inyuma y'igiti hakaba hari urugi rw'umutuku rutari kugaragara neza.

Ikibaya basaruye n'ibigori bakaba bari kuharima hafi n'aho bari kurima hari aho batararima inyuma y'aho batararimaho ikigorigori hakaba hari ibiti biri kugaragara hakaba hari n'umucaca hafi y'aho.

Ikiganogano kinini cyane , basaruyemo ingano , inyuma y'icyo kiganogano hari kugaragara ibiti birebire , n'ibindi bikiri bitoya , bitarakura cyane . Inyuma hakaba hari kugaragara imisozi.

Umurima uteyemo kamerone zigiye ziri mu myobo zitarahura neza, inyuma y'uwo murima hari ibitoki birimo inkingi. Hafi n'ibitoki hari akazu k'umusarane kariho umufuka, hirya yaho hari kugaragara akandi kazu kariho insina ebyiri.

Ahantu hari ibigori bitandukanye bihinzwe bitari byera inyuma hari igiti kigandaje imbere hasutse utubuye duto duto dusutse mu muhanda hino yaho hari ikibara gifite ibyatsi binini.

Umurima wabagamo ibigori, ku ruhande hariho insina ziri mu byiciro bitatu zitari zazana igitoki. Inyuma y'insina hari ishyamba ryinshi, muri iryo shyamba hakaba harimo iza maretine.

Urusasa rwinshi rucucitse, rutarakura cyane ngo rubyibuhe. Hagati hakaba harimo uduti tw’umusave tukiri duto. Inyuma yaho hakaba hari igiti cy’intusi kiri kugaragaraho amashami make.

Umurima urimo ibiti bitandukanye , harimo isave nini hasi ifite amashami hejuru ntabwo hagaragara. Hakaba harimo n'ibiti by'ibibonobono bikiri bito biri gukura.

Ibiti bibiri by'avoka bitandukanye, icy'inyuma ni kirekire icy'imbere ni cyo kigufi, hakaba harimo voca nkeya zitari kugaragara neza, hakaba hariho n'insina iri kugaragaza amakoma abiri.

Umurima urimo ibyapa bitandukanye, hakaba harimo igiti cya avoka gitemwe, inyuma ya ho hari ibiti binini, hakaba harimo ibigori byumye, hafi n'ibigori hakaba hari igiti gifite indabo nyinshi.

Hari ibirayi, hirya y'ibirayi hari insina ebyiri, izo nsina ebyiri hari ifite igitoki kigiye gukomera, hari ifite igitoki kitarakomera, noneho muri ibyo bitoki, hakaba harimo inkingi eshanu zigifashe.

Ibirayi biteye byinshi cyane bisa neza, bikaba bisa icyatsi hakaba harimo ibitangiye kuyanga, ariko bitari kugaragaza uruyange neza. Hakaba harimo n'ibitangiye gupfundika bitarayanga neza.

Ibikenyeri; hafi n'ibikenyeri hari kureguka imiharavumba, inyuma y'ibikenyeri hari ivoka y'imbangurire hakaba harimo imiteja n'izindi zitarateja neza.

Ikigorigori, inyuma yaho hari ibiti bigiye ari bitoya bigandaje, hakaba harimo n'insina zikiri ntoya, hakaba hari kureguka n'igiti gifite amashami.

Ahantu hatewe pasiparumu zikiri ntoya zitarahura cyane, ariko zikaba zifashe. Nko hagati hateye igiti cy'umuvumu kikiri gitoya gifite amababi ane gusa.

Ahantu hahinze, hari intabire nyinshi, hateye insina zitandukanye, hakaba hashinzemo n'igiti, hari insina zamanutse amakoma y'umuhondo, hari n'izindi zifite ibishagari byumye, bikaba byaramanutse.

Umurima w'ibirayi bigiye bihinze bitandukanye byuhiye, hafi yabyo hari urusasa batemye, inyuma y'ibirayi hari utuzu tugiye ducuramye, hakaba harimo n'igiti kigandaje, n'ipoto iriho insinga.

Ibigori bigiye kwera bihinzwe mu kibaya, inyuma y'ibyo bigori hari igiti kigandaje, no munsi y'ibyo bigori hahinzwemo ibishyimbo bitari ibya mishingiriro, hakaba hari n'ibigori bagiye batemamo.

Ni ingemwe. Izo ngemwe zikaba ziri mu mashashi. Ayo mashashi noneho izo ngemwe zirimo, zitwa imisave. Ni imisave ikiri mitoya cyane, ushobora gukura ahantu ukajya kuyitera ahandi.

Ni abahinzi batandukanye. Abo bahinzi bakaba bari gukora amaterasi y'indinganire, bakaba bari mu byiciro bine bitandukanye, kandi higanjemo abagore, n'abagabo gusa.

Umurima bahingagamo ibirayi babisaruye, bimwe bisutse hasi ibindi biri mu mufuka, hakaba hari umugore wambaye ijipo y'ubururu, n'ishati y'umweru iriho umutuku, n'igitambaro cy'umutuku, afite ibirayi mu ntoki, inyuma ye hari isuka hakaba hari n'akayira k'abagenzi inyuma ye kagiye hirya.

Voka z'imbangurire za buheri ebyiri, imwe iraketse irimo ibisate bibiri, hakaba hariho ikibuto kiri mu gikeke, ikaba isa umukara ikaba ari voka y'umutsima.

Igitoki kiri ahantu giteye kikaba kitaratemwa, baciyeho umwanana gifite amakoma kikaba gifite amabere magufi, kitwa fiya, kikaba gifite n'amakoma atari menshi.

Abantu bari guhingira ibihingwa bakaba bari mu murima hagati, babiri barebye imbere, undi ari kubareba. Inyuma yaho hari amazu atandukanye, hari n'akazu kareba hino gafite umuryango umwe, inyuma yayo mazu hari igiti.

Abantu bari ku murongo, bari kureba imbere, imbere yaho hari intabire idahinze neza, hateretsemo ibase y'umuhondo, imbere na none, hakaba hari igiti cy'umwumbati, inyuma y'abo bantu hari insina, hakaba hari n'ibiti biri kureguka binini.

Hari abantu babiri, umwe yicaye ku mufuka w'ibirayi, akaba ari imifuka cumi n'ibiri, akaba ari ibirayi byuzuye cyane, inyuma y'ibirayi, hari akazu gasakaye.

Ahantu binariza ibiti bya save bitandukanye, bikaba bikiri mu bihoho, hejuru yaho, hari amahema hatwikije ihema ry'umukara n'ihema ry'ubururu hateye, ibiti bitandukanye bifashe ayo mahema.

Mu kibaya icyo kibaya gihinzemo ibirayi harimo n'amateke harimo abagabo babiri umwe yambaye umupira w'umutuku. Undi akaba yambaye isengeri umwe wundi afite inkoni yishingikirije bakaba basaruye ibirayi udufuka tubiri n'igikapu cya nsanziriremo.

Umugore uri kumwe n'umwana, umwana akaba afite isuka, bari kubagarira ibishyimbo. Umugore akaba yambaye isengeri akenyeye n'umupira, yiteze igitambaro akaba ari kubagaza intoki.

Amatunda yeze cyane, akaba afite inkondo, akaba ari amatunda menshi cyane, ari mu gikoresho cy'umutuku, noneho ayo matunda akaba ari menshi cyane, akaba yitwa amatunda ya mugozi.

Ahantu harimo utwatsi duto duto dutangiye kumera. Hakaba harimo igihingwa cyitwa ikinyomoro kikiri gito gifite amababi akiri mashyashya cyane, kikaba gifite n'utundi tubabi turi kuza duto duto.

Ikibaya kirimo ibirayi, hari abagore bane bari kubiyora babishyira mu mufuka, bimwe biteretse hasi, abandi babiri bari inyuma, bari kubikura, abandi bakaba bagenda babiyorera mu mifuka, igiye itandukanye.

Abagore babiri, uwa gatatu nta bwo ari kugara neza. Aba babiri bakaba biteze ibitambaro, banambaye imipira. Bakaba bari mu murima w'ibireti, bakaba bari kubisoroma. Ibyo bireti bikaba byeze bigaragaza indabo nyinshi cyane.

Umurima uhinzemo ibigori bitandukanye, ibigori bikaba bitarakomera, bikaba bimwe bifite imiheko n'imisatsi y'umutuku, ibindi bikaba bifite imiheko n'imisatsi ya kaki.

Umuntu uri mu kibaya w'umugore witeze, akenyeye n'umupira, inyuma ye hari undi mugabo, wambaye ishati y'umukara, akenyeye ikintu cy'mweru, hirya hari undi muntu, bakaba bari mu murima w'umuceri, uwo mugore afite nanjoro, hakurya hari imisozi iriho amashyamba.

Abagore batatu bari guhinga, umwe ari guhingisha isuka yacitseho ku ruhande, undi isuka iri mu butaka, indi iri hejuru. Inyuma yaho hari ibiti bikuru bitandukanye.

Abagore bane batatu batiteze undi wa kane ariteze, ab'abagore bakaba bari mu murima w'ibihwagari, har'ibihwagari biteje, hari n'ibindi bitarateja.

Abantu batandukanye harimo abamama bahetse, hakabamo n'abagabo. Abo bantu bakaba bavuye mu murima w'icyayi, bose bakaba bikoreye icyo cyayi mu bitebo.

Ahantu bacururiza ibintu bitandukanye, hari kureguka umuntu wambaye ikintu cy'umuhondo n'ubururu, imbere ye hari inyanya na wotameroni, hakaba hari n'ibintu bitandukanye, bitandukanye mu mabara yose.

Ibirayi by'umweru bisutse mu ntabire, hamwe aho babikuye hakaba hari n'ibindi byagiye bisigara bisandaguje, bitarunzwe neza bikaba biri mu murima batarabitoragura, uwo murima ugiye urimo udukaritsiye.

Ni igihingwa cy'urusenda, urwo rusenda rukaba rweze, akaba ari urusenda ruhinze mu kibaya, hakaba hari n'umuntu wambaye linete, ingofero, akaba arimo kurusoroma, inyuma yaho hari ibiti bihakikije, akaba ruri mu kibaya.

Umugore wambaye iribaya ririmo ubururu yiteze n'igitambaro, akenyeye isharupe y'icyatsi, yambaye n'udukomo, akaba ari gucucira ahantu hari ibiterwa biteye, acuciza igihombo cy'ubururu, inyuma ye hari umusozi uringaniye.

Ni ubwoko bw'imbuto, izo mbuto zikaba bwitwa amatunda ya mugozi, noneho ayo matunda agiye arandaranze ku biti, kandi ayo matunda ntabwo yari yera, ariko afite imiteja myinshi.

Ni isoko ririmo karoti, inyanya, intoryi, inyanya zimwe ziri mu ndobo, izindi zikaba ziri mu ibasi, hariho amakokombure, hariho imineke, harimo amapera, harimo ibinyomoro, harimo n'amaronji.

Ubunyobwa bwinshi cyane burambitse ahantu. Muri ubwo bunyobwa hari ubwagiye butonokaho ku ruhande. Hari n’ubundi bugiye busa umukara uruhande rumwe, ubundi bukaba bugiye kwiyatura atari cyane. Hakaba harimo n’ubufite imipfunya.

Ni inkoko z'imishwi, izo nkoko akaba ari esheshatu, tubiri tubiri tugiye turi kumwe, noneho utwo dukoko tukaba tujya gusa umweru, ariko umwe utererutse. Hari ebyiri ziri imbere ziri kureba imbere, izo hagati ziri kureba mu ruhande, izindi z'inyuma zikaba ziri kureba imbere.

Hari abagore batandukanye, abagore n'abagabo hari umugore ufite indobo, bari gukora igikorwa cyo gutera ikawa. Umugore usutse, usutse derede.

Ibigori bihinze bikiri bitoya, bifite imiterero itandukanye. Ikigori kimwe kiri imbere, kigaragara gifite imiheko ibiri. Umuheko wa mbere ni wo ufite ikigori kinini.

Ikidegede kiri ahantu kikaba giteretse ahantu kigaragara nk'umuhondo cyane, ahandi hakaba hasa n'umukara hakaba hari n'aho cyahombanye, ku ruhande rwo hino inkondo itari kugaragara neza.

Ni inkwavu eshatu urwo hagati n'umweru, urwo kuruhande hino n'umukara urimo umweru, urwo ku ruhande hirya n'umukara ukaba ufite umweru hasi, izo nkwavu zose zikaba ziri kureba imbere.

Umurima w'ibigori munini , ikibaya kirimo ibigori bikiri bito bitarakura. Bigiye bitandukanye , bimwe biri hakurya ibindi biri hakuno , hakurya hari akayira k'abantu bagenda n'amaguru , hakaba hari n'ishyamba rikiri rito.

Ibigori bya marizori bimanitse ku biti bibiri, hejuru y'ibyo bigori hari ibati kandi hari n'ibiti bigiye bishinze, ibigori bigiye bipfundikanye, bakabishyira ku biti bitandukanye, icyo hasi nicyo gifite ibigori byinshi.

Umuntu uri gucunga igare yambaye bote ari kumwe n'umugore wambaye ingofero y'ubururu. Bapakiye amashashi arimo imbuto ku igare. Inyuma yabo hari abandi bantu bikoreye mu mabasi, imwe y'umutuku, abandi bikoreye mu mufuka, undi hejuru yageretseho umufuka.

Amateke y'amakonozanyo, nta mice ihari bayitemeye hejuru, akaba ari amateke abiri, irya gatatu bakaba bariciyemo kabiri, akaba arambitse ahantu yegeranye.

Abagabo babiri, bafite ibijumba, hirya y'abo bagabo babiri, hari umugore naweufite ibijumba, inyuma y'abo bantu hari bigori byumye, hakaba hari n'insina, inyuma hakaba hari n'igiti cy'avoka kinini kigandaye.

Amavoka menshi atandukanye yaciwe ku giti atarashya cyane. Inyuma yaho hari ibikarito bitandukanye hari n'ikindi kintu gifite ibara ry'umutuku. Hirya y'aho hari ibindi bi bikarito biharambitse.

Ni ubwoko bw'imbuto bwitwa amaronji, ayo maronji akaba ari mu isorori, hirya y'ayo maronji ari mu isorori hari andi ane adatonoye, abiri ari ukwayo, irindi rimwe riri ukwaryo n'irindi riri ukwaryo.

Ni ibigori birebire, ibyo bigori bikaba byaratereye binahetse bikaba bitari byera neza, kandi ibyo bigori bihinzemo ibishyimbo, ibishyimbo bigufiya bitari ibya mishingiriro, ibyo bigori kandi bikaba bihinze mu kajagari.

Abantu bambaye amataburiya y'umweru, bari ahantu hari amashashi bafite imbuto zitandukanye, bari kuropeka za mbuto bagenda bashyira muri ya mashashi.

Ibibabi by'igipapayi birambitse ahantu bigandaje ari binini, akaba n'ipapayi nini riketse ibice bibiri, rikaba irimo imbuto z'umukara zatukurije cyane.

Umugore wambaye iribaya ririmo ubururu, yiteze igitambaro cy'umweru arasutamye, hafi ye hari igiti kishinze mu nyanya, inyanya ziri gutukura izindi ntiziratukura neza.

Umugore witeze igitambaro cy'ubururu, yambaye ikote ry'umutuku n'umweru, akaba ari kubagarira ibirayi bitari byera, hafi n'ibirayi hari ahantu harambaraye, hagiye hariho amaterasi atandukanye.

Ibirayi bya Kinigi biri mu mifuka itandukanye. Imifuka ibiri irahinnye y'umweru, indi ibiri na yo irahinnye y'umuhondo. Hirya y'aho hari igikapu, hirya hakaba hari ubutaka buhinzwe burimo amakoro.

Abagore batanu bari kugenda mu muhanda w' ibitaka mu mpande zaho hagiye hari ibiti bitandukanye, ku rundi ruhande hari ibiti bitandukanye harimo; insina abo bagore bakaba bafite ibintu mu ntoki.

Umurima w'ibigori bitandukanye, ibigori bitari byera, ariko byose birahetse, byose bifite imisatsi, ntabwo byari byuma, munsi y'ibigori harimo ibishyimbo birimo biteye bitari byera.

Ibirayi biri mu byiciro bitanu bitandukanye . Icyiciro cya mbere kikaba gisutsemo ibirayi byinshi, ibindi byiciro akaba ari ibirayi bike bike ,bigiye bitandukanyijwe n'ibiti bigiye bishinze harimo ibiti n'ibikarito.

Abantu batatu bose bafite amashu, abagore babiri biteze ibitambaro by'umukara, umugabo wambaye ingofero, yambaye na linete, yambaye na bote, bakaba bari mu murima w'amashu ari mu byiciro bitandukanye, bakaba bahagaze mu itarasi rimwe buri wese afite ishu.

Umuntu uhagaze hafi n'ikigega. Inyuma y'icyo kigega hakaba hari inyubako itaruzura neza. Umuntu ahetse igikapu mu ruhande, yambaye umupira w'umutuku, akaba ari gukeka wotameloni akoresheje indiga. Akaba yambaye ingofero y'umweru, asutse derede.

Umurima w'inanasi harimo iyitarateja, hakaba hari izindi eshatu zifite inanasi, ebyiri zikaba zitaratukura, indi ya gatatu ikaba itukuye cyane ihiye.

Umurima uhinzemo ibigori byumye, umugore uri imbere witeze igitambaro cy'ubururu, yititeye na isharupe, afite ikigori, abandi inyuma bari kureba imbere, umugabo umwe arunamye, hakaba harimo ikigori kimwe gifite amababi atariyuma.

Amajyeri y'urunyogwe asoromwe ako kanya, akaba akiri mashyashya, hakaba harimo uduto duto tutarakomera cyane, n'andi manini akaba yasoromwe uwo munsi.

Igihaza giteretse ahantu, igihaza kimaze iminsi giciye gikomeye, kirimo imirongo igiye imanutse cyane, kikaba kiri ahantu giteretse gihagaze.

Ni amateke ane, muri ayo mateke uko ane, hari iteke rimwe ririmo riketseho ibice bibiri, igice cya kabiri akaba nta gihari hagaragaraho igice kimwe gusa.

Umukobwa witeze isharupe, yambaye umupira w'icyatsi, n'ipantaro y'umukara, ari ahantu hakikijwe n'ibiti, ari gufata itaka akarishyira mu bihoho atsindagiye, inyuma ye hari umurima urimo ibyatsi.

Amavoka ahiye harimo atukura. Hafi y'ayo mavoka hari inyanya, hakaba hari n'umuneke. Inyuma y'ayo mavoka hakaba hateretse indobo irimo ifu, muri ayo mavoka hakaba harimo n'avoka z'icyatsi.

Ni abahinzi b'abagore batatu, abagore babiri bariteze, undi ntabwo yiteze, bakaba bari guhingisha amasuka manini, uw'inyuma arunamye yambaye ingofero, inyuma yaho hakaba hari igiti kirekire, cya voka.

Ni igitebo, icyo gitebo kikaba kidasoje neza, hakaba harimo ibinyamisogwe byitwa ibishyimbo by'imitonore hejuru y'ibyo bishyimbo hari icyapa cyanditseho amagambo mowa dani siri rayinizi.

Impungure nyinshi zisutse ahantu. Inyuma y'izo mpungure ku ruhande, hari ikintu cy'ubururu. Hafi yaho hakaba hari izindi ziri mu mufuka. Umufuka uhinnye ucagase, zikaba ziteretse hejuru.

Amasaka ahinze ahantu, hari amaremare arimo, hari n'amagufi, hari ayenda kuma, hari n'ataruma, hari ari guteja, hakurya yaho hari imisozi miremire irimo ikintu k'ikibande.

Ubunyobwa bwinshi cyane busutse ahantu, hakaba harimo ubunyobwa bugiye bwiyatuyeho, ubundi busatuyeho gatoya, hakaba hari n'ubundi bwagiye buhombana ku ruhande, n'ubundi bujya gusa umukara.

Ibishyimbo bifite amaso y'umweru biri mu cyibo, bikaba ari byinshi bisutsemo byitwa Nyiramukara, bikaba biteretse ahantu hari ibara ry'umukara, akaba ari ikirago kiboheshejwe ibintu by'umukara.

Ubunyobwa bwinshi busaruye bugiye burunze mu byiciro bitandukanye, hari ibyicero bitatu bugiye burunzeho akaba buri ku murongo bugiye butandukanye, bakaba batarakuraho ibyo hejuru.

Inkoko hejuru, y'iyo nkoko hari umuntu ufite imiteja miremire cyane ikoze ku nkoko, hasi y'inkoko hakaba hari indabo ziri kugaragara zifite inyange zitandukanye, harimo umweru n'umutuku.

Umurima w'ubunyobwa harimo abantu babiri bari kuburandura, hakaba harimo ibasi y'icyatsi irimo amabara y'umuhondo, hakaba hari n'umugore wicaye, yitwikiriye umutaka urimo ibara ry'umutuku, inyuma ye hakaba hari abandi bari gusarura.

Igihwagari gihinze ahantu gifite amababi akiri matoto mashyashya, hakaba hariho ururabo kikaba kitari cyera neza, inyuma yaho hakaba hari kugaragara ikirere kirimo umweru n'ubururu.

Ikigori cy'umuhondo, gikuweho amababi yose, kikaba cyareze kikagera, hejuru kikaba kiri ahantu mu byatsi. Ikigori kikaba gikomeye, kikaba cyitwa ikigori cya marizori.

Ni ibinyamisogwe bitandukanye, hari ibishyimbo by'ubwoko bune: hari iby'umukara, hari ibijya gusa umuhondo, ibitukura, n'ibijya gusa umukara urimo umutuku. Harimo soya, hakaba harimo n'amashaza.

Ni binyamisogwe bitandukanye harimo ibishyimbo, harimo impungure, harimo ingano, bikaba bigiye bisutse ku mifuka igiye itandukanye. Hari n'ibindi bigiye bigerekeranye cyane.

Ahantu mu kibaya hasutse ibigori byinshi cyane byumye, ibyo bigori bikaba bidahunguye, bigiye biri ahantu henshi hatandukanye, hakurya hakaba hari kugaragara ikibaya.

Ni ubwoko bw' ibinyabihingwa by' imishogi, icyo gihingwa kikaba cyitwa ibihwagari, noneho hari ibiri mu base ijya gusa ubururu, ibindi bikaba biri hasi bikikije iyo base.

Ibishyimbo biteye ku murongo, ibyo bishyimbo hari ibikiri bitoya, hari n'ibindi ku ruhande, bigeze kure bishgiriwe, n'ibindi iburyo bw'ibumoso bikiri bito, ariko bikaba birimo imishingiriro, inyuma y'ibyo bishyimbo hari umuhanda.

Ni ibishyimbo bihinze mu kibaya, ibyo bishyimbo bikaba bifite uruyange, bikaba biteye mu myobo igiye itandukanye, inyuma y'ibyo bishyimbo hakaba hari ikiyaga.

Ubunyobwa buteye ahantu mu ntabire, mu myobo hakaba hagiye harimo ubunyobwa bwinshi, bukaba butangiye kuzana uruyange. Hakaba hari kugaragara imyobo ibiri irimo ubunyobwa.

Igihingwa cy'ibishyimbo by'umutuku birambitse ahantu. Ibishyimbo birebire bimwe birambitse hasi impande y'ikintu cy'umweru, ibindi biri ku mwuko, byinshi bikaba byegeranye n'ibisutse hasi.

Umurima w'ibihwagari, ibihwagari bimwe bifite uruyange ntibyari byera, ibindi babipfukishije amashashi y'umweru, hakurya y'uwo murima hari ibiti bikiri bito, hakaba hari n'ahantu hatari ibiti hari kureguka.

Ubunyobwa buri mu mufuka munini, bukaba bwamenetse, ubundi buri mu mufuka muto, na bwo bwamenetse, ubundi buri mu mbehe buruzuye, muri iyo mbehe hakaba harimo icyatsi kibisi.

Umugore witeze igitambaro cy'umukara yifubitse isharupe, afite igisorori cy'icyatsi, yicaye imbere y'ibisorori birimo ibinyamisogwe bitandukanye, inyuma hari imifuka ye hakaba hari n'umuntu uhagaze

Umufuka w'ibishyimbo bitukura, uhinnye urimo isahani y'umutuku. Undi ukurikiyeho urimo ibishyimbo by'umukara. Hirya hari indi mifuka itandukanye. Hari abagore bicaye imbere y'iyo mifuka. Hirya hari umugabo nawe uri umfite ukuboko kuri hejuru y'umufuka.

Umugore wicaye ku ntebe y'igiti, ikaba iriho igikapu, yiteze igitambaro, yambaye n'amaherena na tisheti, yazamuye ijipo, afite igihingwa mu ntoki yaranduye.

Ni imifuka ine itandukanye, iyo mifuka ikaba irimo ubwoko bw'imiceri, imiceri itandukanye. Kandi inyuma y'iyo mifuka, hari indi mifuka irimo kugaragara ariko ntabwo iri kugaragara neza.

Umuntu ufite inkoko itakishijwe ibara ry'ubururu , ari kugosora , akaba yambaye agapira k'iroza , yambaye n'ibikomo mu ijosi no ku maboko . Inyuma ye hakaba hari itaka rijya gusa umutuku.

Abantu batatu batandukanye umwe yambaye ikintu kirimo umutuku n'umweru, undi akaba yambaye ubururu, undi akaba yambaye icyatsi. Bose bakaba bari hafi n'inkoko bari gutoranya igihingwa cy'ikinyamisogwe.

Umufuka urimo ibinyamiheke byinshi, uwo mufuka imbere yawo hari ishashi, ukaba uteretse ku mukeka ufite amabara y'icyatsi n'umuhondo n'umutuku.

Ni ibihwagari bitatu, ibyo bihwagari bikaba bikikijwe n'uduhwa tw'umweru, tutarakomera cyane, noneho hakaba hari n'ibindi bihwagari, biri mu ibasi, ibasi y'umukara.

Umugore wambaye umupira w'ubururu aniteze . Ari mu murima w'amasaka. Amasaka arumye harimo amaremare n'amagufi ari kuyakoraho atandukanyije amaboko ,ari gukora ku masaka abiri.

Umuntu uri mu bishyimbo akaba ari gusoroma imiteja, ibyo bishyimbo bikaba birimo n'uruyange, umuntu akaba yambaye ipantaro y'ubururu n'ishati ijya gusa n'ubururu, akaba ari kugaragara igice cy'epfo n'amaboko gusa.

Igikuyu kirimo inka nyinshi, zimwe z'ibihogo, izindi z'umweru, hakaba harimo inka zifite amahembe, zikaba ziri ahantu hagari. Hakaba hari ubwatsi, hakurya y'inka hakaba hari imisozi.

Abavuzi b'amatungo bari mu kiraro cy'inka, umwe yambaye isarubeti y'ubururu, ari gutera urushinge hafi n'umurizo, undi yambaye ishati ya kake n'ipantaro y'umukara, afashe amatwi akanyana.

Ni inkoko enye zitandukanye, eshatu ni zo zisa, iya kane isa ukwayo, izo nkoko zikaba ziri ahantu mu mwijima, hejuru yaho hakaba hari amatara acanye, hirya yaho hari utuntu tuhamanitse.

Ingurube iri hejuru y'ikintu, inyuma yayo hakaba hari umugabo wambaye isarubeti ya kake, yambaye n'agapfukawa, hino hakaba hari umugabo wambaye itaburiya, akaba hino na none hari ikintu cy'umukara kiharambitse.

Inka ziri mu rwuri ziri ahantu hamwe, zifite amahembe agondoye inyambo. Hari n'izindi ziryamye munsi y'izindi, imbere hari inka nini ifite ibara ry'umweru ryinshi, munsi y'aho haryamye akanyana.

Inka iri kurisha ubwatsi buri hasi, ikaba ifite inyana ifite ibara ry'umweru n'umukara. Ikaba ifite n'amahembe yanditse, ikaba ifite ibara ry'umukara n'umweru inyuma hari ibiti bishinze.

Ingurube zitari nini cyane, ziri ahantu akaba ari ingurube zirindwi ziri ahantu, inyuma y'izo ngurube hari inzu isakaje amategura, hafi y'iyo nzu hari igiti kihagandaje, inyuma y'iyo nzu hari n'amaterasi atandukanye.

inka, inka y'imbyeyi nini cyane kandi nziza, iyo nka ikaba ifite amahembe, ikaba noneho ifite amabara abiri iry'umweru n'umukara. Ikaba iri kureba inyuma.

Veterineri wambaye isarubeti y'ubururu, yambaye ga y'umweru. Afite urushinge ari kuvoma mu muti mu icupa. Impande ye hari inka ifite amabara y'umweru n'amahembe abinduye.

Ni inyubako ya busheri, iyo nyubako ikaba yubakishijwe n'amakaro, noneho muri iyo nyubako hakaba harimo inyama zimanitse zigiye zitandukanye, harimo intoya n'inini.

Ibyana by'ingurube biryamye mu buryo butandukanye, bibiri birebye imbere, ibindi birebye inyuma, ibindi bibiri biri inyuma biryamye birebanye ,bikaba ari ibyana by'ingurube bikiri bitoya, bikaba biryamye ahantu mu itaka.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru n'ingofero y'umukara, ufite indobo y'ubururu, yambaye na ga z'umweru, ari gufata inka ziri mu kiraro ebyiri zifite amabara y'umweru n'umukara.

Imbogo iri ahantu basaruye ingano iri kureba hino, hejuru y'imbogo hari inyoni ihari yahaguye, inyuma y'imbogo hari igihuru cyinshi cyane.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, hino hari igiti cy'umutsindo kitari kuregotsa amashami. Hakaba hariho akanyamasyo kari muri pasiparumu kanini. Inyuma y'akanyamasyo kanini hariho utundi tunyamasyo dutoya.

Mu murima w'amaterasi harimo igishuhe, hakaba harimo ingano, hateyemo n'umuserege uriho kameroni, hakaba harimo ibipapayi bitatu, hagati y'ibipapayi bitatu hakaba harimo insina, hirya ya ho hari umuhanda utari kureguka neza, hahinze n'ibishyimbo.

Inyoni nyinshi ziri ku migozi y'insinga eshatu, inyinshi zikaba ziri ku rutsinga rwa kabiri uhereye hasi, izindi nsinga zo hasi ebyiri zikaba nta nyoni ziriho.